Abagabo benshi bicaye, bari mu nama, bambaye neza, bigaragara ko hari imbwirwaruhame bakurikiye, hari uwicaye imbere wambaye ishati nziza, amarinete, ufite n'icupa ry'amazi imbere ye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, ubona bakurikiye imbwirwaruhame. Bari gukoresha mudasobwa ndetse hari n'umuntu ushinzwe kugenda afata amashusho agiye atandukanye.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho hantu. Benshi muri bo bambaye amakote, ndetse imbere yabo ku meza, hateretse amacupa arimo amazi yo kunkwa.

Abantu benshi bateraniye mu nama bicaye hamwe batuje; hejuru yabo bamurikiwe n'amatara meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo. Abo bantu abenshi muri bo bambaye amakote kandi imbere yabo bafite n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, abasore ndetse n'abakobwa bakaba bicaye hamwe, bigaragara ko bakurikiranye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho hantu batuje.

Abantu batandukanye bakeyeye bicaye ku ntebe z'umweru, benshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'abantu bari imbere.

Abagabo benshi bagiye batandukanye ndetse n'abagore ubona ko biyubashye bicaye mu cyumba cy'inama, aho bari gukurikira imbwirwaruhame iri kuhatangirwa, bamwe bari gukoresha mudasobwa abandi bateze amatwi bisanzwe.

Abantu bateraniye hamwe batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, urabona ko bakurikiye, ndetse harimo n'abashinzwe umutekano bambaye n'impuzankano zabo bigaragara ko ari abashinzwe umutekano w'abaporisi.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, akaba ari kuvugira mu mbwirwaruhame ndetse imbere ye hateretse mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amarinrte y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu bwijimye, afashe indangururmajwi mu ntoki ze ndetse na telefone ngndanwa, ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu bane harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bakaba bari kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera, umugabo uri kureba mu ikayi.

Abantu batandukanye bateraniye hamwe, bakaba bicaye bagiye bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki zabo hamwe n'amacupa y'amazi, bashobora kwifashisha mu gihe inyota ibishe, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa.

Abagabo bane batandukanye bambaye neza. hari ufite mudasobwa, imbere ye bigaragara ko ari kuvuga. Yambaye ikote ry'umukara ishat y'umweru ndetse imbere ye hari n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Abantu bicaye ahantu hamwe hazengurutswe n'ibitambaro by'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bambaye neza urabona ko bari gufata amafoto agiye atandukanye bigaragara ko ari nk'igikorwa basoje bakaba bari kubyishimira bafata ifoto.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru bakaba bari gukurikira imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore uhagaze imbere yabo. Imbere y'abo bantu bafite amacupa arimo amazi bari buze kunywa mu gihe bagize icyaka.

Abantu benshi bicaye mu nama bakaba bakurikiye, bicaye ku ntebe z'imituku ndetse hari n'undi mugabo uhagaze uri kubagezaho imbwirwaruhame bigaragara ko ari kubashishikariza kwiteza imbere.

Abantu benshi bicaye mu nama bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, hari umumama wicaye imbere w'inzobe, wambaye ikoti ry'umutuku, agapira k'umukara ufite n'amazi mbere yo kunywa.

Abagabo n'abagore bateraniye ahantu hamwe bicaye bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, bakaba bafite ku meza yabo amacupa y'amazi yo kunywa, ibitabo byo kwandikamo ibikwigirwa no muri iyo nama.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa, bambaye imipira y'ubururu ndetse imbere yabo hagiye hari n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Abagabo bagiye batandukanye bambaye imipira y'ubururu, umwe muribo yambaye amarinete afite Telefone mu ntoki ndetse n'agapapuro k'umweru abandi urabona ko bafite ikintu bakurikiye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bigaragara ko bisa nkaho bari mu nama, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho ngaho, ubona ko yanabasekeje cyane, bamwe muri bo bafashe amaterefone yabo bari gufotora.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ye, wambaye agashati k'umweru karimo utudomo tw'umukara, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hakaba hari igikombe cyo kunyweramo icyayi ndetse na telefone ngendanwa.

Abantu batatu bicaye ahantu hamwe, hari umukobwa wambaye ikote ry'umukara ndetse n'agapira k'umweru. Imbere y'abo bantu hateretse amazi yo kunywa, ndetse hari n'ufite mudasobwa, n'amakaramu.

Abagabo batatu umwe wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umukara ndetse n'amarinete imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'umuti wifashishwa mu gusukura intoki wa handi sanitayiza.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore bicaye mu myanya y'imbere. Umwe yambaye ishati y'ubururu ndetse afite terefone mu ntoki n'ibitabo y'ifashisha yandikamo ibirikuvugirwa muri iyo nama.

Abantu bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri harimo n'umugore umwe utari umunyafurika, imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse urabona ko bari kwandika ibintu runaka.

Ahari kubera inama bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, hari umugabo uhagaze wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, hari icyuma kigaragaza amashusho mu buryo bunini ndetse na mudasobwa ku ruhande.

Abagabo batatu bicaye undi arahagaze, akaba yambaye amarineti, ishati nziza ndetse afite ikaramu mu ntoki aho ari gutanga imbwirwaruhame abwira abicaye aho ngaho bakurikiranye ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi cyane batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, urabona ko batuje, bakurikiranye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho hantu, benshi muri bo imbere yabo hari amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo ndetse n'abagore babiri. Uwo mugabo akaba yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru mu imbere, imbere ye hakaba hari icyuma kimufasha kurangurura ijwi akavuga bakamwumva neza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bateranye, abenshi bambaye imipira y'ubururu, hari undi mumama wambaye indi myenda idasa nk'iyabo, akaba akurikiye. Imbere ye hari agacupa k'amazi.

Abasore bagiye batandukanye bakurikiranye imbwirwaruhame iri gutangwa, bambaye imipira y'ubururu ndetse imbere yabo hari amacupa y'amazi yo kunywa mu gihe baba bagize icyaka.

Abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye mu cyumba kigaragara ko ari icy'inama, bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'imikara, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu, umugore wicaye hagati yambaye ikote ry'umutuku ndetse undi mugore yambaye ikote ry'umukara akaba afite n'imashini imbere ye.

Abagabo batandukanye bicaye mu nama, bigaragara ko bakurikiranye imbwirwaruhame iri gutangwa, Bagiye bafite uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse harimo n'undi wamanitse akaboko bigaragara ko ashaka ijambo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abambaye imipira y'ubururu, iy'icyatsi ndetse n'iy'umuhondo, bose bigaragara ko bakurikiye umugabo uhagaze wambaye umupira wicyatsi uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Umugabo wicaye my ntebe y'umukara ndetse hari abagore babiri nabo bicaye, umugabo yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu imbere yabo hateretse uducupa twinshi tw'amazi yo kunywa, ndetse inyuma hari ikiguta cy'umeru kiza.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba kimwe, ndetse hakaba hari n'undi ubahagaze imbere, wambaye ikote, ufite indangururamajwi mu ntoki ye, akaba ari kubagezaho ijambo, abandi barakurikiye.

Abantu benshi cyane, bicaye mu cyumba cy'inama, batuje, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugabo uhagaze imbere. Banshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Ikirangantego kiri mu mabara agiye atandukanye icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo kikaba ari icy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu gihugu cyitwa Rwanda reveni otoriti.

Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwitwa arajibi rwashyizeho uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta aho ushobora kunyura ku rubuga rw' irembo ukabyikorera ukandikisha uwo muryango bitakugoye.

Urubuga rwa leta abantu bakoresha bashakiraho akazi ndetse haba hariho n'ahantu hagiye hatandukanye bashaka abakozi aho ujyaho ukareba ibyo basaba wabona ubyujuje ukaba wasaba akazi.

Inzu ifite igisenge cy'umutuku, iriho urutsinga ruzana amashanyarazi muri iyo nyubako, ndetse iriho ibyapa biri mu mabara agiye atandukanye, ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gufata amashusho bizwi nka kamera.

Repubulika y'urwanda kimisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta inama nyunguranabitekerezo, n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro cya Rwanda reveni otoriti, cyongeye kubazanira uburyo aho ushobora kwiyandikisha ukanze akanyenyeri magana inani urwego ugakurikiza amabwiriza.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga bigaragara ko bibujijwe ndetse n'undi muntu uri gukoza agakarita ku cyuma cyabugenewe gikuraraho amafaranga ugiye gutega imodoka rusange, bakaba bagaragaza ko bitemewe kwishyura amafaranga ukoresheje intoki.

Habura iminsi itanu kugira ngo abishyura imisoro igiye itandukanye babe batakibasha kwishyura hanyuma bacibwa amande, bityo nimba utaratanga umusoro wawe ushobora kuwutanga hakiri kare.

Ahantu hakikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hari umunara muremure uhashinze w'icyatsi, ndetse n'imashini ziwufasha gukora neza, ndetse hari n'akazu kabamo umuntu ushinzwe kwita kuri uwo munara.

Abantu benshi bahagaze, ku ruhande hakaba hari n'ibinyabiziga bimenyerewe nk'amagare. Hakaba hari umukobwa wicaye wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi ifungishijwe fimbo. Imbere ye hari mudasobwa.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu modoka rusange itwara abantu. Benshi bafite za mudasobwa mu ntoki zabo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone ngendanwa n'ibindi.

Uko ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako bihagaze mu Rwanda, zeru n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko n'inyubako n'ak'ibibanza byagenewe guturwamo naho zeru n'ibice bitatu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ibibanza byagenewe ubucuruzi.

Ahateraniye urubyiruko rugiye rutandukanye bahagaze abandi bicaye benshi bari gukoresha ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga aho bisa nkaho aho hantu hari wifi baje kuyifata.

Inzu ikoraniyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bari gukoresha mudasobwa hakaba hari umugabo uhagaze uri gufasha undi kuyikoresha wambaye ishati y'umweru, amwereka uko bikorwa.

Abakinnyi batandukanye n'ikipe y'umupira w'amaguru ikinira mu Bwongereza, bari kwamamariza gusura u Rwanda, ndetse munsi hari n'ifoto y'abakinnyi ba basiketi bari gukina umukino.

Inyubako ndende iri ahantu heza ubona ko hari amahumbezi, akaba ari inyubako iriho ibyuma by'itumanaho hejuru, biyifasha kubasha kubona konegisiyo bitabagoye ku bari muri iyo nyubako.

Ushobora gusura urubuga rwa Rwanda reveni otoriti, ukaba wamenyekanisha ipatanti cyangwa ukareba umusoro wawe aho ugeze, bitarenze tariki ya mirongo itatu na rimwe.

Ikigo cy'igihugu cyitwa irembo, cyazanye uburyo bworohereje abagikoresha aho bashobora kubyikorera ndetse hari n'umukobwa uri kucyamamaza, wambaye umupira w'umuhondo inyuma ye haparitse imodoka.

Ahantu hari abantu bagiye batandukanye hagaragara ko hakoreshezwa ikoranabuhanga aho umuntu abagana agakoresha murandasi yiwe afite mudasobwa bakamuha interineti.

Ibiti bibiri bishinze ndetse biriho n'ibyuma bitambitse, bikaba bifashe ikintu kinini cy'umweru cyifashishwa mu gutunganya amashanyarazi kugira ngo aze kugera ku baturage ameze neza ntiyangize.

Ipoto rinini ririho insinga zigiye zitandukanye z'amashanyarazi, ndetse n'ibiti izi nsinga zikaba zifashishwa mu kugeza ku baturage umuriro w'amashanyarazi, bagacana bakabasha kubona.

Igiti kinini gishinze kiriho insinga zigiye zitandukanye zinyanyagiza umuriro mu baturage, ku ruhande rwawo hari igipangu kirekire cyane kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubusitani bwiza.

Ipoto rinini ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hakabaho n'itara ryifashishwa mu kumurikira ibinyabiziga nijoro ndetse n'abantu kuruhande hari ibiti ndetse n'inzu nziza cyane.

Igiti gishinze kiriho insinga nyinshi cyane zigenda zihereza abaturage umuriro w'amashanyarazi, munsi y'icyo giti hari umutaka w'umuhondo ndetse n'akameza k'umuhondo gakoreramo umukozi ukorera emutiyene.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amatara maremare yifashishwa mu kumurikira ibinyabiziga nijoro kugira bitaba byakora impanuka, aya matara ni manani ari mu ibara ry'umweru.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane bagiye batandukanye ndetse hakaba hari n'amagorofa maremare, akorerwamo ibigo bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, kimwe muri byo ni nka banki y'Urwanda.

Inzu ifite igisenge gikozwe mu mategura, hakaba hariho imashini yifashishwa mu gutunganya amazi, ikayakonjesha cyangwa ikayashyushya, uyakaraba akumva ameze neza.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'umutuku ndetse n'umunyamaguru uri kugenda ku mpande z'umuhanda hari ibyapa bibiri by'umweru harimo kimwe kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe umuriro kigaragaza ko ari ishami rya Remera.

Ipoto rinini ririho insinga z'amashanyarazi agenda asakaza umuriro mu baturage, hakaba hari n'irindi ririho amatara yo ku muhanda amurika mu gihe cya n'ijoro ndetse n'icyapa kigaragaza ko hari parikingi.

Ipoto rinini rishinze ku byuma bibiri, rikaba riri gucaho insinga z'amashanyarazi zigenda zihereza umuriro abaturage, ukaba ukikijwe n'umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti bitoshye.

Ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi; zijya mu byerekezo bigiye bitandukanye, aho zigenda ziha abaturage umuriro w'amashanyarazi. Munsi y'iryo poto hateye ubusitani bwiza cyane.

Umunara muremure cyane uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, uyu munara ukaba ari uw'ikigo runaka cy'itumanaho aho wifashishwa mu gusakaza itumanaho ku buryo ridacikagurika.

Inzu ifite amabati y'umutuku, ikagira igipangu cy'amatafari mato mato ahiye, ndetse ifite n'akapa kagaragaza nimero y'iyo nzu, ku mabati hamanitseho antene yifashishwa mu gukurura sinyare.

Imodoka ziparitse ku murongo, zitwa amburanse akaba ari imbangukiragutabara zifashishwa mu gihe umuntu arembye, cyangwa akoze impanuka zigahita zihutira kumugeza ku bitaro biri hafi aho ngaho.

Abagabo bababiri bicaye umwe w'umwirabura undi w'umuzungu, bambaye amataburiya y'umweru ku ruhande rwabo har akantu bifashisha bajugunya imyanda, hanyuma inyuma hari n'aho bakarabira intoki.

Ku bitaro bya gisirikare, biherereye i Kanombe, hari abantu bagiye batandukanye, ndetse n'imodoka y'imbangukiragutabara, yifashishwa mu gutwara abantu byihutirwa, nk'abahuye n'impanuka cyangwa abenda kubyara.

Umugore wambaye amarinete, umupira w'ubururu ndetse n'isaha. Imbere ye hari mudasobwa ndetse ari kuyikoresha. Kuruhande rwe hateretse iyindi mashini iri mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu bigaragara ko ifite isuku, hakaba har’icyapa kiri mw’ibara ry'umutuku ndetse n'umukara kigaragaza ko aho hantu hatemerewe kunyorebwa itabi, ahangaha bisa nkah'ari kwa muganga, hari abantu bicaye bategereje serivisi.

Umugabo ufite agasatsi gakeya yambaye igikanzu gifite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru mo imbere yambayemo ishati y'umweru na karuvati itukura ari kumwenyura.

Icyapa kinini kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara kigaragaza ko ari igororero rya Gicumbi, ahangaha hakaba hajyanwa abantu bakoze amakosa agiye atandukanye kugira ngo bagororwe.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro yumukara irimo amabara y'umweru bose bambaye udupfukamunwa ndetse bafite na mudasobwa imbere yabo n'amazi yo kunywa mu gihe bagize icyaka.

Inyubako ndende yubakishije amatafari matoya, izwi nka gereza, hakaba hari abagororwa bisa nk'aho bavuye mu mirimo igiye itandukanye y'amaboko, harimo n'ufite isuka yifashishwa mu guhinga.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakurikiranye imbwirwaruhame aho bicaye batuje bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Abagororwa benshi bahagaze hamwe ndetse hari n'abantu babiri bicaye ku ruhande, umugabo ndetse n'umugore, inyuma yabo hari imodoka isa umweru ndetse bahagaze munsi y'igiti kirekire.

Umugabo ufite uruhara, wambaye amarinete y'umukara, akaba yambaye ishati y'umutuku ndetse mo imbere hariho akantu k'umweru, inyuma ye hari igikuta cy'umweru, akaba ari kumwenyura.

Umugabo ufite uruhara, wambaye amarinete, yambaye ishati y'umukara, afashe icupa ry'amazi mu ntoki, kandi yambaye amapingu. Bigaragara ko hari ibyaha aregwa, impande ye hari ushinzwe umutekano.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye ingofero z'imikara zirimo utubara tw'umuhondo, bose bambaye ibikanzu binini by'umutuku bigiye bifitemo utuntu tw'umweru, bikaba bisa nkaho bari guca urubanza.

Urupapuro rugaragaza amategeko ndetse na nimero zayo hakaba hariho n'incamake y' ikemezo kigira kiti: "iyo perezida w'Urukiko rw'ikirenga asuzumye raporo yashyikirijwe ku rubanza rw'akarengane".

Abantu benshi cyane bicaye hamwe harimo abagororwa, bambaye impuzankano zabo ndetse n'abaturage, bakaba basa nk'aho aba bagororwa bari gucirwa imanza, ku byaha bagiye bakora.

Umugabo w'inzobe wambaye impuzankano y'iroza, akaba afite akuma kamufasha gusakaza ijwi ryiwe, ari kuvuga ashobora kuba ari kwisobanura ibyaha aregwa.

Umugore ufite agasatsi gakeya wirabura, akaba yambaye igikanzu kinini cy'umutuku, kirimo akabara k'umweru, uyu nguyu bikaba bigaragara ko ari umunyamategeko wabyigiye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibiza ndetse n'ibigenda hakaba hari imodoka y'umweru ndetse n'amapikipiki atwaye abagenzi ari kunyura kumuhanda uca hejuru.

Agahanda k'abanyamaguru karimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye. Harimo umukobwa ufite isakoshi ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umutuku ufashe amverope mu ntoki, kuruhande hahagaze ushinzwe umutekano.

Ahantu hakoraniye abantu bagiye batandukanye, hari umwe uhagaze imbere y'ushinzwe umutekano wambaye ingofero y'umukara. Ushinzwe umutekano akaba ari gusobanura amategeko n'amabwiriza akurikizwa mu muhanda.

Icyuma cyabugenewe cy'umutuku gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro yoroheje mu gihe yaba iguteye nko mu rugo, uba ugomba kuba uzi kugikoresha mu gihe inkongi y'umuriro iteye ukaba wazimya utegereje ko ababishinzwe bahagera.

Abanyeshuri benshi bahagaze hamwe, bari kwigishwa uburyo bwo kwitabara nko mu gihe habaye inkongi y'umuriro, aho ushobora kwifashisha icyuma cyabugenewe cyitwa kizimyamwoto, ukabasha kuba wawuzimya.

Ibyuma bizwi nka kizimyamwoto biteretse ahantu, inyuma yabyo hari amakarito byavuyemo ibi byuma bikaba byifashishwa nko mu gihe habaye nk'inkongi z'umuriro zigiye zitandukanye ariko zidakomeye.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona bakurikiye igikorwa kiri kubera aho hantu, cyo kwigishwa uburyo ushobora kwizimiriza inkongi y'umuriro mu gihe ikigo kibishinzwe kitarahagera ukoresheje icyuma cyabugenewe.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye mu muhanda umanuka hari guca imodoka y'umukara, ndetse n'uzamuka hari gucamo imodoka nini itwara abantu benshi izwi nka kwasiteri ya polisi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, hino yaho hari inzira y'abanyamaguru mu nzira y'abanyamaguru harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara ufite utujerekani tw'amata bikaba bisa nk'aho agiye gushaka amata.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki yifashishwa mu gutwara abagenzi, ndetse n'imodoka nini zitwara abantu muburyo bwa rusange, hakaba hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Icyuma cyabugenewe cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kikaba cyifashishwa mu mazu, aho ushobora kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe abashinzwe kuyizimya batarahagera, bityo ntisakare ahantu hose.

Abantu banshi cyane bateraniye hamwe abicaye ku ntebe z'umweru, abahagaze ndetse n'abicaye hasi, basa nk'aho bari gukurikirana imbwirwa ruhame iri gutangwa n'umuntu benshi bicaye munsi y'igiti kinini.

Abagore bagiye batandukanye bahagaze bazamuye amaboko yabo, y'ibumoso bakaba bafashe ku mabendera y'igihugu cy'u Rwanda bakaba kurahira ibyo bazageraho.

Abagabo bake cyane bambaye amakote y'ubururu ndetse n'amakaruvati akaba hari n'abamama bambaye neza cyane aho bari kugenda baganira bungurana ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Umugabo ndetse n'umugore, umugabo yambaye ishayi y'umweru, ipantaro ndetse n'inkweto z'umukara, akaba ari gukoma amashyi aho ubona yishimiye ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Abantu benshi cyane ubona bishimye aho bari kwamamaza umukandida wabo uri kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda bafashe amabendera mu ntoki zabo.

Ahakoraniye abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangirwa aho hantu, abenshi muri bo bafite za mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi cyane bishimye hari umugabo uri kubasumba bose wambaye umupira w'umweru agapfukamunwa k'umweru amarinete ndetse afashe ingofero y'umutuku mu ntoki ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete, akaba yambaye ikanzu y'ubururu yicaye ku ntebe y'umweru, urabona ko atuje cyane. Impande ye hari ikibumbano gikozwe mu giti cyikoreye ikintu.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaragiwe n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano, uyu nguyu akaba ari perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yari kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda.

Idarapo rigizwe n'amabara atatu atandukanye, ubururu, umweru, ndetse n'icyatsimo hagati rikaba rifite amagambo yandikishije ubururu yanditsemo psd.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye imipira y'ubururu, hari umugabo ubahagaze imbere wambaye ishati y'umweru, bari kwamamaza umukandida wabo uhagarariye ishyaka rya efuperi witwa Paul Kagame.

Abantu benshi cyane ubona bizihiwe bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya Efuperi, abenshi muri bo bakaba bambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu, bafite amadarapo mu ntoki zabo ndetse n'andi mashusho.

Abagabo benshi bahagaze, bambaye amakote, uwambaye impuzankano za gipolisi ndetse n'umumama. Inyuma yabo hari amatente manini yo kwicaramo, bisa nkaho baje gushyingura.

Abamotari batwara abantu bakaba baparitse aho bategereje abagenzi bagiye batandukanye, muri uwo muhanda hari kuza imodoka y'umweru, yo mu bwoko bwa toyota.

Akayira k'abanyamaguru kari kugendamo abantu babiri ndetse mu muhanda munini harimo akanyabiziga k'amapine atatu kazwi nka lifani, kakaba ari akanyabiziga kifashishwa mu gutwara imizigo itaremereye cyane.

Umuhanda urimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga, harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'ubururu mo imbere harimo agapira k'umutuku, afashe icyuma gikoreshwa mu gutwara imizigo.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara iparitse, hakaba harimo umushoferi wayo uri kuruhuka. Imodoka ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange, aho itegereje abantu.

Umuhanda rusange, ucamo ibinyabiziga bitandukanye, mu gahanda k'abanyamaguru harimo abantu babiri bahagaze, bari kuganira. Inyuma yabo hari amapikipiki, imwe isa ubururu n'indi isa oranje.

Imodoka nini ifite amabara y'ubururu izwi nka yotongo, ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange ku ruhande hari abantu bagiye batandukanye bari muri gahunda zabo hari umugore ufashe agakapu mu ntoki.

Moto zitandukanye ziparitse ahantu hamw, hari iz'ubururu ndetse n'icyatsi, hari n'umuhungu uhagaze wambaye ingofero y'umutuku, ishati y'ubururu ndetse na bodaboda.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'ipikipiki, gitwaye umugenzi, kikaba kigiye kugera ahantu hari imirongo y'umweru yifashishwa n'abanyamaguru, kugira ngo bahanehane umwanya n'ibinyabiziga.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bigira bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye hakaba hari akamoto k'amapine atatu kifashishwa mu gutwara imizigo mito mito.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki ndetse n'amamodoka, hakaba hari imodoka isa ubururu, iyi ni imodoka yifashishwa mu kwiga gutwara ikinyabiziga.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku kiri kwamamaza inzoga yitwa mitsingi, gikikijwe n'ibiti ndetse imbere yaho hari umuhanda urimo imodoka ndende cyane y'umweru itwara imizigo iremereye.

Umuhanda uri kunyuramo amapikipiki ndetse hirya hakaba haparitse n'andi mamoto azwi ku izina rya rifani agizwe n'amapine atatu, akaba yifashishwa mu gutwara imizigo mito mito.

Imodoka y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange iri mu muhanda w'umukara hino yayo hari rigori nini icamo amazi kugirango adasenya, imbere y'iyo modoka hari moto.

Amapikipiki apatitse hamwe atandukanye harimo akoresha amashanyarazi ndetse n'ajya kunywesha esanse, inyuma yaho hari umumotari wambaye ijire y'umuhindo ndetse n'ubururu mu imbere harimo umupira w'umukara.

Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, urimo ikamyo nini y'umweru, igare, ndetse n'akandi kamodoka gatoya k'umutuku, akaba ari ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu.

Umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye urimo n'ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki n'amamodoka. Hakaba harimo imodoka imenyerewe nka fuso y'ubururu itwara imizigo igiye itandukanye.

Imodoka iri mu muhanda hari n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye. Iyi modoka ikaba isa ubururu, ifite igishitingi cy'umukara. Akaba ari imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, kwimura abantu ndetse n'ibindi.

Ikinyabiziga cy'amapina abiri kizwi nk'ipikipiki kikaba kiri mu muhanda, umuhanda imbere hari imirongo y'umweru inyurwamo n'abanyamaguru kugira ngo batabyigana n'amamodoka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki ndetse hakaba hari n'ikinyabiziga kinini cy'umutuku kizwi nka howo kifashishwa mu gutwara ibintu bitandukanye bikubiyemo nk'amatafari umucanga n'ibindi.

umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bitandukanye ukaba urigucamo imodoka nini cyane yikorera imizigo, iyi ikaba ari imodoka imenyerewe ku'izina rya rukururana ikaba itwara ibintu biremereye cyane ibijyana akantu hamwe nahandi

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho hariho umumotari uhetse umugore, ndetse n'undi mumotari uhetse umugenzi w'umugabo. Hirya yaho hari imodoka ihaparitse.

Umugabo utwaye ipikipiki ari kuzamuka mu muhanda inyuma ye hari icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko gifite ubuso bw'umweru kigaragaza ko ku muhanda ukurikiyeho umuntu atemerewe gukata ibumoso.

Imodoka y'umweru ifite akabara k'umuhondo ndetse ifite n'amagambo y'umutuku yandikishijwe mu rubavu rwayo, iyingiyi ikaba ari imodoka itwara abantu mu buryo bwihariye aho umuntu ushaka kwihuta ayitega aho gutega moto cyangwa imodoka rusange.

Umuhanda nyabagendwa urimo ikamyo nini cyane yikoreye kontineri, ikaba ari ikamyo izwiho gutwara ibintu biremereye ibivana ahantu hamwe ibijyana ahandi, imbere hari umuhanda unyura hejuru.

Imodoka y'umweru itwara ibintu n'abantu mu buryo bwa rusange, ikaba iri mu muhanda, aho yifashishishwa n'abantu batari bake, bajya muri gahunda zabo zigiye zitandukanye.

Umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye ukaba urimo imodoka, amapikipiki ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byiza cyane akaba ari n'akayira k'abanyamaguru gakikijwe n'ibyuma.

Imodoka iri mu muhanda ikaba irimo abantu babiri, uri kwiga gutwara imodoka ndetse n'umwigisha. Ni imkdoka zikunzwe gukoreshwa n'abantu bashaka kwiga imodoka aho bajya kwishyura bakabigisha.

Ipikipiki ihagaze mu muhanda itegereje umugenzi uyicayeho yambaye ijire ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, ndetse hari n'indi iri kumanuka muri uwo muhanda haparitsemo imodoka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, amapikipiki ndetse n'indi moto itwara imizigo mito mito, izwi ku izina rya rivani. Hirya hakaba hari amazu y'ubucuruzi agiye atandukanye.

Umuhanda ufite ibiti byiza cyane ukaba ufite n'ibyerekezo bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka y'umutuku, hino hari agahanda k'abanyamaguru kariho ibyuma bibafasha kuba batajya mu muhanda.

Umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga amapikipiki ndetse n'imodoka itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'umweru, impande yaho hakaba hari ruhurura y'amazi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kizwi nka fuso kiri mu ibara ry'umweru. Kikaba gihetse umuzingo bigaragara ko ari amatafari. Ku ruhande hari umunyamaguru uri kugenda.

Imodoka nini itwara ibintu n'abantu mu buryo bwa rusange, ikaba biri iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru izwi nka shirumuteto, ikaba iparitse ahantu abanyamaguru bategera imodoka.

Imodoka nini ifite igikontineri cy'umuhondo ikaba izwi ku izina rya fuso ikaba yifashishwa mu gutwara ibintu byinshi cyane biremereye aho iri mu muhanda muremure w'umukara.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye, mu uzamuka hari gucamo imodoka yo mu bwoko bwa toyota y'umweru, hanyuma mu umanuka hari gucamo imodoka y'ubururu itwaye ibinyobwa bitandukanye.

Imodoka nini y'umweru itwara abantu n'ibintu mu buryo rusange yitwa kwasiteri iri mumuhanda munini cyane w'umukara kumpande yawo hari umuryango ukorerwamo na kopanyi y'ubucuruzi bwifashishwa mu kubetinga.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye: amapikipiki, amagare, ndetse n'ibinyabiziga binini, harimo ikamyo y'umutuku izwi nka wowo yifashishwa mu gutwara imicanga, amabuye n'ibindi.

Ipikipiki iriho umuntu uyitwaye, wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye n'ingofero ifasha abantu bagenda kuri moto kuba mu gihe bakoze impanuka batakwangirika ku mutwe, ahubwo ikabarinda ibyago bikomeye.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'umukara ari ku igare ry'iwe ahetse imizigo igiye itandukanye, bigaragara ko ari imizigo iremereye, igare rikaba ryifashishwa mu gutwara imizigo cyangwa abantu.

Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, uri gucamo imodoka izwi nka, fuso ndetse kuruhande hari n'indi modoka ya toyota y'umweru, hino mu gahanda k'abanyamaguru, harimo umugabo wambaye ishati n'ipantaro ufite agafuka mu ntoki.

Imodoka y'umweru yitwa dayihasu yifashishwa mu gutwara imizigo, kwimura abantu cyangwa gutwara ibiribwa, ku ruhande rwayo hakaba ari icyapa kigaragaza ko aho hantu, bitemerewe kwahaparika umwanya munini.

Umugabo utwaye ipikipiki, wambaye ingofero y'abamotari, izwi nka kasike, y'umuhondo, ijire y'ubururu ndetse n'umuhondo, ndetse atwaye moto ikoresha amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugiye urimo ibinyabiziga bitandukanye amamoto ,amagare, ibikamyo binini bizwi nka rukururana byifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane, ndetse n'ibimodoka bitwara amazi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amapikipiki ndetse n'ikamyo nini ifiteho shitingi y'ubururu, ikaba ari ikamyo yifashishwa mu gutwara imizigo iremereye iyivana hamwe iyijyana ahandi.

Umuhanda urimo ikamyo ndende y'umweru izwi nka fuso. Akaba ari imodoka itwara imizigo igiye itandukanye, urugero nko kwimura abantu, amakara ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Imodoka y'umweru ifite shitingi y'ubururu, ikaba ari imodoka izwi nka fuso. Iyi modoka yifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye, nk'ibiribwa, kwimura abantu ndetse n'ibindi.

Ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga, hakaba har'imifuka irimo ibiribwa bitandukanye, hirya hari imodoka nini cyane itwara abantu n'ibintu muburyo bwa rusanjye.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye, uzamuka ndetse n'umanuka hakaba harimo imodoka tuzi nka fuso, y'ubururu yikoreye amabati, muri iyo modoka harimo n'umuntu ushinzwe kugenda areba uwo muzigo kugira ngo utagwa.

Umuhanda w'ibyeyerekezo bitandukanye urimo urujya n'uruza rw'imodoka, harimo ibinyabiziga bigizwe na moto amagare ndetse n'amakamyo, tukaba tuhabona ikamyo ifite ikizuru cy'ubururu ndetse n'igikontinneri cy'umweru.

Ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu by'ibinyabiziga bibiri bizwi nk'igare, kikaba giparitse mu muhanda, bigaragara ko ari mu masaha y'ijoro ndetse hakaba hari n'imodoka iri kwaka amatara.

Umuhanda ujya mu byerekezo bibiri bitandukanye ukaba urimo imodoka ndetse na moto, akaba ari akamoto gafite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kifashishwa mu gutwara imitwaro itaremereye.

Imodoka nini cyane itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikaba iparitse aho iri gushyiramo abagenzi kugirango ibageze iyo bajya, hino yayo haparitse n'indi itwara abantu mu buryo bwa rusange, y'umweru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amapikipiki ndetse hirya yaho hari ahandi haparitse amamodoka menshi ari mu mabara atandukanye nk'umukara, umutuku, umweru ndetse n'andi.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwawo haparitse ibinyabiziga birimo nka moto zizwi nka rifani zifite amapine atatu, zikaba zifashishwa mu gutwara imizigo itaremereye cyane ndetse n'ibindi.

Ahantu heza cyane ushobora gukorera siporo, hashyizweho na leta y'Urwanda, aho hafasha abantu bifuza gukora siporo bitabagoye, bakirukanka ndetse ku ruhande hari ubusitani bwiza cyane bakiniramo gorufe.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, kikaba gifite ubuso bw'ubururu. Iki cyapa kiyobora abatwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bakabasha kumenya icyo bakora nibagera imbere.

Umuhanda muremure cyane urombereje wo mu karere ka Muhanga ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'amatara amurikira abantu, hari abantu benshi bashungereye isiganwa ry'amagare riri kuhabera.

Icyapa kiri mu ishusho y'umuzenguruko kizengurutswe n'ibara ry'umutuku gifite ubuso bw'umweru ndetse n'ibirangantego biri mu ibara ry'umukara bigaragaza ko hari imihanda iri mu byerekezo bitandukanye.

Icyapa kiri impande y'umuhanda gifite igiti gishinzeho cy'icyuma kiri mu ishusho y'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru kikaba kigaragaza ko aho hantu hatemewe guparika ibinyabiziga.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru gifite ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko imbere aho ngaho, hari ubwubatsi buri kuhabera.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru. Hari icyapa gikozwe muri mpande enye, kigaragaza ko hafi aho ngaho hari ahantu ho guparika rusange, yaba imodoka zitwara abantu.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara n'umutuku, kikaba kigaragaza ko imbere umuhanda aho ugarukira hafunze.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe bizwi nka feruje, bikaba byaka amabara atandukanye umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ubu ngubu riri kwaka icyatsi bigaragaza ko abantu bemerewe gutambuka.

Icyapa kigizwe nampande enye gifite umuzenguruko w'umuhondo, ubuso bw'ubururu, ndetse n'ishusho irimw' ibara ry'umweru n'umukara. Kikaba kigaragaza ko uwutwaye ikinyabiziga akwiye kugenda gake abantu bakambuka.

Ahantu hari icyapa kinini handitseho igororero rya Nyamagabe, ahangaha akaba ari ahantu bajyana abantu bakoze ibintu bigiye bitandukanye bitari byiza bakagororwa bakazagaruka bafite imico myiza.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikirangantego kiri mw, ibara ry'umukara kikaba kigaragaza ko imbere hari ubwubatsi buri kuhabera bityo umuntu agomba kugabanya umuvuduko.

Icyapa gifite igiti gihagazeho kiri muri mpande eshatu gifite umuzunguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'amabara atatu atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Umuhanda uriho amapave asa ikigina, imbere y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane bufite indabyo zisa umuhondo n'icyatsi, impande y'uwo muhanda hari inyubako nziza cyane ifite amabara asa umweru n'umukara hirya yaho hariho indi nyubako ifite amabara

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara icyi cyapa kikaba kigaragaza ko uyu muhanda ufite akandi gahanda kawushamikiyeho.

Icyapa cya mande enye gifite umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo, ndetse n'ikirangantengo kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko muri uwo muhanda hashamikiyeho akandi gahanda.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ibirangantego biri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko imbere hari umuhanda uzenguruka.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirangantengo kiri mu ibara ry'umukara, iki cyapa kikaba kigaragaza ko imbere hari ikorosi.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kigaragaza ko uwo muhanda ufite akandi gahanda kawushamikiyeho.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye ikizamuka n'ikimanuka, ukaba ufite indabyo nziza ndetse hirya yaho hariho etaje ndende y'umweru, hakaba harimo n'umunyamaguru uri kugenda.

Agace karimo inyubako zigiye zitatanye ariko nziza zubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari n'ibimera ku ruhande nk'ibitoki, ibiti ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye urimo ibinyabiziga nk'amapikipiki imodoka iparitse impande yawo y'umukara ndetse hakaba hari n'amazu maremare y'ubucuruzi agiye atandukanye.

Ahantu hagaragaraho amazu menshi cyane agiye atandukanye, bigaragaza ko ari amazu ari mu manegeka. Ahangaha rero ni ahantu bita Nyagatovu ku mpande hari ibimera bi bitandukanye birimo nk'insina.

Ibiti byiza cyane ubona ko bitoshye biri mu busitani hakaba hari abantu bahicaye baje gufata ogisijene iva muri ibyo biti kuko ari nziza ku buzima bw'umuntu.

Ahantu bisa nkaho ari mu makaritsiye runaka, hari abamotari, abanyamaguru ndetse n'amazu y'ubucuruzi n'umuhanda w'ibitaka, bigaragara ko ukuze cyane.

Ahantu heza hari ibiti by'ubwoko bigiye bitandukanye, iyi ngiyi akaba ari parike y'inyoni, aho wifuza kureba inyoni kandi z'ubwoko bugiye butandukanye, ushobora kubagana bakazikwereka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ipikipiki ndetse n'imodoka. Hakaba hari imodoka y'icyatsi, iri gukata mu kindi cyerekezo. Hari agasanduku k'umutuku, gafite umutaka w'umutuku.

Agace kagaragaramo amazu menshi cyane agiye atandukanye, hari n'ikigega kibikwamo amazi aturutse ku mabati kugira ngo ataba yakwangiza ndetse hirya hari ahantu hari ikibuga cy'indege.

Amazu agiye atandukanye, yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari amazu afite ibisenge byiza cyane, by'umutuku ndetse n'umukara. Akaba ari ahantu hari n'ibiti by'icyatsi.

Agace kitaruye karimo amazu menshi cyane agiye atandukanye hakaba harimo amazu agiye atandukanye ay'ubucuruzi ayo guturwamo ndetse n'ahantu hari ishyamba ririmo ibiti byiza cyane hazwi nka kimironko kwanayinzira.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki, hakaba hari ipikipiki ihetse umuntu bombi bambaye ingofero zibarinda kuba bahura n'ikibazo mu gihe bakoze impanuka ndetse hirya hari inyubako nziza cyane zizwi nka hoteri.

Inzu nziza iherereye ahantu hakeye ikaba ifite amabara y'umweru n'igipangu cyiza cyane ku mpande yaho hari ubusitani burimo ibiti by'amoko agiye atandukanye n'icyapa kigaragaza nomero y'uwo muhanda uriho iyo nyubako.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'imirongo y'umweru yifashishwa n'abanyamaguru, ibi bikaba bituma abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bahanahana umwanya.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'amapikipiki ndetse n'imodoka nini ukikijwe n'amatara awumurikira ndetse n'amapoto ari insinga zisakaza amashanyarazi.

Umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye urimo ibinyabiziga bizwi nk'amapikipiki, impande y'uwo muhanda hari amazu agiye atandukanye ndetse n'abanyamaguru bari kuwugendamo.

Umuhanda urombereje urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo amapikipiki ndetse n'imodoka, ukaba ufite ibyuma byabugenewe bishinzwe kuyobora ibinyabiziga bibereka ibigenda n'ibihagarara.

Umuhanda urimo imironko icagaguye y'umweru iyi akaba ari imironko yifashishwa n'abanyamaguru, kugira ngo bambauke batabyigana n'ibinyabiziga, akaba ari uburyo Leta yashyizeho bwo kwirinda impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho akayira k'abanyamaguru, ndetse uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye amapikipiki, n'amamodoka n'ibyapa biyobora ibinyabiziga.

Umuhanda ugaragaramo imirongo y'umweru icagaguye imirongo ikaba yifashishwa n'abanyamaguru mu gihe bari kwambuka kugira ngo batagongana n'ibinyabiziga ahubwo bahanahane umwanya.

Umuhanda munini ugizwe n'ibyerekezo bitandukanye, ku nkengero z'uwo muhanda hari umunyamaguru bisa nk'aho ashaka kwambuka, hagati mu muhanda hari ibimenyetso bigaragaza amerekezo ushobora kujyamo.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru icagaguye iyi mirongo ikaba igaragaza aho abanyamaguru bashobora gukoresha mu gihe bashaka kwambuka bakaba batagongana n'imodoka.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye ibitoya n'ibini. Hakaba hari gucamo imodoka izwi nka fuso yikorera ibintu bitandukanye. Hino hari imirongo y'umweru iri mu muhanda inyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, ukaba ukikijwe n'ibiti, ndetse uwo muhanda ukaba urimo ikunyabiziga kizwi nk'igare, akaba ari rya sipoto rifite amapine abiri.

Umuhanda muremure urimo ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki ndetse n'igare hino yaho hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza cyane butoshye.

Ibinyabiziga bibiri biparitse mu muhanda kimwe gisa umukara ikindi gisa umweru ndetse hakaba hari n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'umunyamaguru uri kugenda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye iby'abantu basanzwe ndetse n'iby'ikigo cy'igihugu cya polisi y'u Rwanda, hakaba hari n'indi modoka imenyerewe ku izina rya bisi y'umweru.

Umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye, urimo ibinyabiziga, amapikipiki, ndetse n'imodoka isa umukara. Ukaba ari umuhanda, hajuru yawo hacaho undi muhanda unyuraho ibinyabiziga.

Umuhanda munini umurikiwe n'amatara yaka cyane, ndetse n'inyubako ku ruhande icanyeho amatara meza, aya matara akaba amukira ibinyabiziga nijoro na none agatuma habona hagasa neza.

Umuhanda muremure urombereje urimo ama pikipiki, amagare kumpande zawo hari n'abanyamaguru. Hakaba hari n'amatara maremare y'umweru abamurikira n'injoro ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini uromberejeho w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amapikipiki imodoka, ndetse hakaba harimo n'umugabo utwaye igare uhetse agakapu k'umukara ku mugongo.